Aya mashusho amenyesha ubwishingizi na kampani zitanga ubwo bwishingizi kuri buri muntu, akagaragaza amashusho ariho umuntu w'umugabo wambaye imyenda ya kositimu n'ishati uriho agaragaza ibyo kmpani ikora.

Ni serivisi za banki, aho izo serivisi zikoreshwa hifashishije ikoranabuhanga ryo mu kwishyura, rigaragaza uburyo wagiye kwishyuriramo, aho rero hakaba handitse amazina, y'umuntu hamwe n'icyo yishyuriye.

Ni botike icuruzwamo ibintu bigiye bitandukanye, botike ikaba icuruzwamo amashakoshi n'amabaga y'umukara, hamwe n'indi myenda myinshi igiye itandukanye ubona ko iriho ibishushanyo iri ahantu hamwe.

Itwarara icuruza imyenda igihe itandukanye, harimo inkweto, n'imipira yo kwambara, hamwe n'amapantaro n'amakabutura, mu iduka bifitemo amatara mu imbere, agaragaza mu kubona ibyo bicuruzwa bicuruza, imbere yabo akaba ari igisitati, cyambaye imyenda igurishwa.

Ni imodokadoka nini cyane ikoreshwa mu bwikorezi ikaba iparitse ahantu, inyuma yaho hari amagambo yanditseho Akagera moto, hakaba hari n'umuntu uhagaze iruhande rw'iyo modoka wambaye ipantaro n'ishati n'ingofero uri iruhande rw'iyo modoka.

ABG ni kampani ishinzwe gukora amamodoka, ubona ko hari abagabo babiri bari kumwe n'umugore hagati, umugore akaba afite icyapa cy'Akagera moto, ubona ko ubona bahagaze bishimye iruhande rw'imodoka.

Abagabo batatu n'umugore bambaye imyenda itandukanye, umugore afite icyo ari kugaragaza mu ntoki ze, inyuma yabo hari imodoka nyinshi zifite amabara atandukanye imwe muri yo isa umukara iparitse ahantu.

N’imodoka y'umweru n'umukara ubona ko iparitse ahantu, imodoka ikaba igurishirizwa Kigali kw’isoko ryaho, imodoka iparitse aho iruhande rwaho hari ibiti byinshi bihari by'indabo ndetse n'ibiti bifasha…

Umuntu uri kugaragaza amafaranga agiye atandukanye, yo mu bindi bihugu. Hakaba hari imashini iyabara n'umuntu ufite amafaranga mu ntoki, arimo arayagaragaza, amafaranga akaba atandukanye, ko akoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye.

Ni igikombe cy'ikirahure ubona ko giteretse ahantu. Icyo gikombe kikaba kirimo amata, kikaba giteretse ku meza ubona ko hari agacupa k'amazi ndetse na telefone iri kuri iyo meza, hakaba hari n'ibitambaro bifashe kuri iyo meza.

Payi paye uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, ubu ni uburyo bugaragaza ko wishyuye ukoresheje ikoranabuhanga ni cyo bishatse kugaragaza ko peyi paye ari bwo kwishyura.

Uburyo bwo kwishyura bukoresha ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura serivisi za WASAC Ukoresheje terefoni yawe ushyiramo wuzuza hanyuma ukishyura, ni serivisi igaragara.

Uburyo bwo kwishyura ukoresheje MTN momo, aho ushobora kohereza amafaranga no kwishyura ibintu byinshi bigiye bitandukanye no kwishyura amayinite no kwishyura serivisi za MTN zigiye zitandukanye cyangwa ukareba amafaranga yawe uko ahagaze.

Kugaragaza amasezerano y'uwakiriye nicyo bino bishatse kugaragaza, hakaba harimo amatariki n'igihe byatangiwe n'umushahara, igihe wakiriwe, yego.

Amafaranga magana atanu y'amayero. Akoreshwa muri icyo gihugu, ubona ko agizwe n'amabara agiye atandukanye arimo ubururu, umweru hamwe n'ibimenyetso bigiye bitandukanye, hamwe n'inyenyeri ziri kuri ayo mafaranga.

Amafaranga akoreshwa mu kugura, amafaranga magana atanu y'Amayero, akoreshwa mu kugura ibintu bitandukanye hirya no hino ku isi, akaba ari amafaranga menshi ari ahantu hamwe.

Ni abantu bateraniye hamwe, bambaye imyenda itandukanye, ubona ko ari abanyamahanga, bagizwe n'abagabo n'abagore kandi bafite ibyo bahetse, ubona ko bateraniye ahantu hamwe, ubona ko hari ibyo baje gushaka kugira ngo babakorere.

Ni inzu irimo ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye, harimo intebe, utubati, salamanje, hamwe n'imiryango y'iyo nzu. Hejuru yaho hakaba hariho amatara, hamwe na vandarateri iri muri iyo nzu.

Imbuto hamwe na ji z'izo mbuto ziri mu bikombe, akaba ari inanasi, imineke, ziri kuri utwo dutajeri ubona ko ari ahantu abantu bajya gushakira izo mbuto zabo bifuza.

Ni inzu nini cyane igizwe n'amabara agiye atandukanye hamwe n'amadirishya n'imiryango, ubona ko hanze hari imitaka ndetse hari n'amazi abantu bajya kogeramo. Iyo nzu ikaba iherereye ahantu hari ubusitani ndetse hakaba hari n'intebe zo kwicarwaho.

Ni inzu nini cyane ifite ibyumba bigiye bitandukanye ubona ko harimo intebe n'aho abantu bicara, ikaba ifite n'ubusitani buteyemo indabyo zigiye zitandukanye, hakaba hari n'uburyo ushobora kuzimya n'umuriro bibaye ngombwa.

Umuhanda winjira mu nyubako ya Sainte famille, iruhande rwawo hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye hamwe n'amajaride agiye atandukanye, akaba ateye kuri uwo muhanda, ni inyubako ifite.

Ni inzu nini cyane ubona ko muri iyo nzu hari amazi ahari aho abantu bajya kogera, hakaba hari n'indabyo nyinshi zihateye muri iyo nzu, iyo nzu ikaba igizwe n'ibyumba byinshi bigiye bitandukanye hamwe n'ibyuma bifashisha mu gushyushya amazi biri kuri iyo nzu.

Bigaragaramo ko harimo utubati n'intebe z'umukara hamwe n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Hakaba hari n'amashusho amanitse kuri ibyo bikuta bisa umweru, kandi hakaba hari n'aho bacomekera ibintu bigiye bitandukanye.

Inshuwarensi ifoto yerekana ubwishingizi na biro y'ubwo bwishingizi inshuwarensi, bati umenye neza ko ufite uburenganzira bwo kugira ubwishingizi.

Ni inzu nini cyane ubona ko iriho, igiye hariho amabara atandukanye, iyo nzu ikaba yanditseho icyapa cya inshuwarense ikumenyesha ko aho haboneka ubwishingizi, iyo nzu ikaba ifite amadirishya hamwe n'ibyuma by'umukara biri kuri ayo madirishya.

Inzu nini cyane igaragaza ko aho hantu ushobora kubashakira sevisi zijyanye n'ubwishingizi, ni inzu iriho amatara hamwe n'amatafari yubakishijwe iyo nzu, hakaba hari n'amadirishya, hamwe n'icyapa kigaragaza ibyo bakora.

Umugabo n'umugore bicaye ku meza n'intebe z'umweruko, bari guseka, bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'utubati tubari inyuma, aho ku ruhande rwabo ubona ko hari na televiziyo nini y'umukara ihari.

Abagore babiri bari ahantu bagushiriza amagi yabo, imbere yabo hari amagi menshi cyane hamwe n'amatireyi, abagore babiri umwe akaba yitandiye n'undi yitandiye bambaye imyenda ya made in Rwanda, ubona ko bari ku...

Abantu benshi batandukanye ubona ko harimo abambaye impuzangano zigiye zisa n'abandi bambaye imyenda y'umukara n'abagore bambaye imyenda ya medini Rwanda. Bahagaze ahantu hamwe mu mazu y'umweru hamwe n'idarapo ry'u Rwanda akaba ari ahantu bita Nyabugogo.

Ni inzu nini cyane irimo ibyumba byinshi cyane bigiye bitandukanye, ubona ko hari n'ibyapa biri kuri iyo nzu, hakaba hari n'imihanda myinshi yegereye iyo nzu inyurwamo n'imodoka z'ubwikorezi hamwe n'amatara amukira iyo mihanda.

Aho abantu bajya kugura imyendaye itandukanye, harimo imyenda ya meyidi ini Rwanda, n'imyenda ikoreshwa muri siporo. Hakaba hari n'abantu bari kudoda iyo myenda, hamwe n'abakiriya baje kugura iyi myenda igiye itandukanye.

Ahantu abantu bajya gushakira ibicuruzwa bigiye bitandukanye byo kwambara ubona ko harimo amakanzu, imipira, ubona ko byambarwa n'abagore, hakaba hari umucuruzi wagiye kugurisha imyenda n'abaguzi baje gushaka iyo myenda.

Ni inzu nini cyane ikoreshwa mu bikorwa byo gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, ubona ko aho iri hari imbere yaho hari umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bije muri iyo nyubako n'ibihanyura.

Ni mu isoko aho abantu benshi bagenda bagiye kugurira bicuruzwa bigiye bitandukanye. Hakaba hari inkweto n'imyenda ndetse imyenda yanditseho meyide ini Rwanda. Hari abagore barimo banyura muri iryo soko ndetse n'abana bari kunyura muri iryo soko.

Umucuruzi uri kugurisha ibiribwa bigiye bitandukanye. Ibyo birirwa hakaba harimo inyanya, karoti n'ibitunguru ubona ko yabishize mu mabase akaba ari kuvugana n'abakiriya kugira ngo bagure ibicuruzwa.

Abacuruzi bari hamwe bari kugurisha ibirayi, ni abacuruzi babiri bafite imifuka myinshi itandukanye y'ibirayi, hakaba hari n'umuguzi waje kubagurira kuri ibyo birarayi, abo baguzi bakaba bicaye impande y'umuhanda.

Mu isoko rinini cyane, rikoreramo abadozi b'imyenda. Hakaba hari n'imyenda bamanitse hejuru barimo baragurisha, hakaba hari n'abantu baza babasanga, baje kureba ibyo bicuruzwa byabo kugira ngo babibagurire.

Aho abantu bajya gushakira serivisi za MTN zigiye zitandukanye, ubona ko hari abakira b'abagore n'abagabo, hari n'abaza gushaka izo serivisi b'abagore n'abagabo, ubona ko bambaye imipira igiye isa bakaba bafite na mudasobwa imbere yabo.

Abantu benshi bateraniye hamwe ubona ko barimo baragurisha serivisi zigendanye na MTN, ni abantu umwe muri bo bagizwe n'abagore n'abagabo ubona ko bambaye ingofero z'imituku n'iz'imihondo bafite na mudasobwa imbere yabo.

Inzu ntonya ya MTN n'umu ajenti, umu ajenti ukoreramo atanga serivise za MTN aho n'abantu bamugana bamusanga, aha bigaragaza ko harimo abantu batatu, harimo n'umukiriya waje gushaka serivise zijyanye na MTN.

Ni abantu bari ahantu hamwe bagizwe n'abagabo n'abagore, abagabo bo muri bo hari abambaye imyenda isa ubona ko bari gutanga serivisi runaka kuri mudasobwa zabo, hakaba hari n'undi mugabo uri kubitegereza.

Aho ushobora gusanga serivisi. Aho hantu hari umugore uhari, ndetse n'amashusho yamamaza ariho umugore. Aha hantu ujya kuhashakira serivisi kuko hagizwe n'amabara atukura. Hari ndetse n'amarembo winjiriramo.

Ushobora kugura ibicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga. Ushobora kugura inkweto, imyenda, amaterefone hamwe n'amafurashi hamwe n'imipira yo kwambara ukoresheje ikoranabuhanga. Hakaba hari uburyo bwo kuyikoresha...

Ni abagabo babiri bambaye imyenda y'icyatsi n'amapantaro atandukanye, bambaye kasike ubona ko bakorera sosiyete yanditse vubavuba ubona ko bafite igikapu kiri kuri moto y'iyo sosisiyete ya vuba vuba.

Irimo uburiri n'igitanda hamwe n'amagidirishya n'amarido ari muri iyo nzu, bikaba bigaragaza ko harimo n'amakaro ari muri iyo nzu n'irangi ry'umweru hamwe n'amatara, ubona ku muri iyo nzu harimo n'umuryango uhinjira kugirango ugere muri iyo nzu.

Ni inzu nini cyane. Iyo nzu ikaba yubatse ahantu hari parikingi ebyiri zishobora kwinjizwamo n'imodokari ebyiri, ikaba igizwe n'amabara agiye atandukanye ari kuri iyo nzu kandi iyo nzu ikaba ifite igisenge hamwe n'amabara y'umukara.

Ni umugore w'umwirabura n'umuzungu, ubona ko bahagararanye. Bari mu busitani, ku ruhande rwabo hari intebe, ndetse hari n'amazu abegereye, agizwe n'amabara atandukanye ndetse n'ibiti by'indabyo.

Ni abantu babiri bari mu nzu, umwe w'umunyafurika n'undi w'uzungu, ubona ko iruhande rwabo hari intebe zo kwicaraho hamwe n'igikoni, hari n'amatara arimo ba arbamurikira n'amadirishya hamwe n'aho bacomeka amatelefone yabo.

Ni inzu irimo uburiri bw'umweru ndetse n'imisego yo kwisegura, iyo misego ikaba iri ku gitanda gikozwe mu mbaho hakaba hari n'amarangi asizwe muri iyo nzu ndetse n'amarido akingirije amadirishya.

Ni inzu iri kubakwa ahantu ubona ko ari abantu babiri bari kuri iyo nzu, umwe wambaye umwenda w'umutuku n'ipantaro y'umukara, hakaba ari n'undi uri kuri iyo nzu hejuru ubona ko arimo arasakara ni inzu itararange kubakwa.

Inzu iri ahantu. Iyo nzu ikaba igurishwa, iyo nzu ikaba ifite ibirahuri by'amafirime n'amakaro ari muri iyo nzu, iyo nzu kandi ikaba ifite ibyumba bibiri...

Ni inzu iherereye i Kanombe muri Kigali city, ni inzu ubona ko ifite parikingi ziparikwamo n'imodoka, inzu nini cyane ya kadasitiri, isizwe amabara agiye atandukanye, harimo umukara, umweru, hamwe n'igisenge gisa neza cyane.

Itangazo rigaragaza ko hari ibyumba bitatu bikodeshwa muri Kimironko amafaranga ibihumbi magana ane, ni inzu nini yo gukodeshwa ifite umuryango mwiza cyane...

Ni iduka rinini ritandukanye, rikoreshwa mu kugurisha ibintu bigiye bitandukanye, aho abantu bajya bagiye kugurira ibyo bifuza, hakaba hari imyenda myinshi cyane, hamwe n'aho bagaragaza serivisi batanga muri iyo nyubako.

Mu isoko aho abantu bajya kugurira ibicuruzwa, hakaba hari abacuruzi bagiye batandukanye, bari kugurisha ibicuruzwa byabo, bagurisha imbuto zigiye zitandukanye, harimo imineke, amapome n'amaronji, hamwe n'imyenda.

Iduka rinini cyane ricuruza ibintu bitandukanye byo kwambara, harimo ibikapu, inkweto n'ibindi byo kwambara bisanzwe, isoko rikaba ryitabirwa n'abantu baje guhaha no kureba ibicururizwa muri iryo duka.

Aho abantu baza kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ni abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore baje guhaha ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho n'abacuruzi bari kugurisha ibicuruzwa byaho bigiye bitandukanye hakaba hari amakaroti, n'inyanya byo kugura.

Iduka rinini cyane, aho abantu bajya kurebera ibicuruzwa byabo, ubona ko hari abacuruzi barimo baragurisha ibicuruzwa bigiye bitandukanye n'abaguzi bagenda babasanga, inzu nini irimo amatara menshi agiye atandukanye hamwe n'aho bacururiza.

Ejo heza ntuzatinye izabukuru. Ejo heza ni umukobwa ufite inyundo mu ntoki wambaye igisarubeti yambaye n'igikasike n'amarinete.

Ni abantu bari mu nama, ubona ko bateraniye hamwe bari kwigi ku bintu bigiye bitandukanye baba bagizwe'abagabo n'abagore, aho abagore ari babiri, abagabo n'aba babiri, ubona ko barimo baraganira bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ibyo bite.

Ni mu iduka aho abantu bajya kuhahira ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Hari umugore ufite akantu agenda ashiramo ibyo yahashe agenda agacunga, areba niba ashaka ibindi bintu byo kugura. Akaba arimo aragenda ahitamo. Inyuma yabo hari abandi bantu bamuriho bari kumu, gufata amashusho.

Umucuruzi uri kugurisha ibicuruzwa bye ku mugozi, umuguzi yambaye agapfukamunwa ari kwitegereza ibicuruzwa yaje kugura, akaba ari kubisuzuma neza niba aribyo ashaka.

SIMBA Sonatube, SIMBA Sonatube ni ahantu abantu bajya gushopingira uko bigaragaza ahantu binjirira imiryango yo kwinjiriramo, hakaba mo imbere ifoto igaragaza ko harimo abantu bari gushaka ibintu bitandukanye.

Aha ni mu isoko aho yagiye kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ari kwitegereza ibicuruzwa birimo karoti ndetse n'ibindi bitandukanye, aho mu ntoki ze afitemo agakapu arimo aragenda ashyiraramo ibyo ibicuruzwa bye yahashye.

Ahantu hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho biri ahantu bipanze ndetse hari n'aho ibyo bicuruzwa bikonjesherezwa, hari n'icyo bifashisha bahahiramo kugira ngo byoroshye akazi ndetse aho hantu hari amakaro.

Umuntu uri kugaragaza ibicuruzwa afite mu ntoki umuntu yifite amabara ku nzara ndetse hari n'ibicuruzwa byinshi bivanze mu tuntu tugiye dutandukanye bigiye na bwo bitandukanye ubwoko bwabyo.

Ni umuntu wagiye guhaha ibicuruzwa bitandukanye by'ibiribwa, akaba afite akantu atwaramo ibyo ibicuruzwa bye, akaba yambaye n'ingofero mu mutwe, akaba ari kwitegereza ibyo ashaka kugura bigiye bitandukanye.